Raboratwari, uburyo bw'ubushakashatsi, bwifashishwa mu kuvumbura ibihishwe, bitabonwa n'amaraso y'abantu, no mu mashuri cyane cyane ya siyanse, hajya habaho za raboratware zifasha abanyeshuri gusobanukirwa n'ibyo biga bitagaragarira amaso y'abantu.

Abantu bakunze guhurira hamwe baje mu nama, baje gukemura amakimbirane yabonetse hagati y'imiryango ibiri cyangw y'abavandimwe babiri cyangwa bari no mu masengesho, guteranira hamwe ni uburyo bwiza abantu begerana bagasangira ibyifuzo.

Amashuri yigisha kudoda yabaye menshi, aya mashuri aho usanga abayitabira ku kigero cya mirongo inani ku ijana ari abari n'abategarugori. Abari n'abategarugori bavanye amaboko mu mifuka, na bo batangira kwiga imyuga ibafasha kwitunga.

Amahugurwa akora mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere abahugurwa babwirwa ibintu uko bikorwa, icyiciro cya kabiri ibyo babwiwe mu magambo bajya kubireba uko bikorwa , mu muririma cyangwa ibyo bita gushyira muri puratike.

Kwiga ikoranabuhanga birakataje cyane cyane mu mashuri aho mu mashuri hashyizweho porogaramu yigisha abanyeshuri ikoranabuhanga gukoresha mudasobwa aribyo twita kompiyuta.

Mu buryo bwo kunoza akazi cyane cyane akazi ko mu biro abakora mu biro bakora mu buryo bugezweho ,aho bakoresha za mudasobwa, usanga buri wese yihugiyeho aho aba aganira na mudasobwa iri imbere ye.

Mu buryo bwo kwiga neza no gukora akazi by'umwuga, abaganga b'ino iwacu mu majyaruguru, biga bareba uko abandi baganga babigenza. Ubwo rero haba bari abaganga ndetse n'abafasha babo. Muganga aba akora, abafasha bamuhereza.

Muri laboratware ni aho basuzumirwa ibizamini biba byafashwe na muganga, burya mu bitaro byose ndetse n'ibigo nderabuzima bigira ahantu hitwa laboratware, ari n'aho ibizamini umurwayi baba bamufashe bajya kubisuzuma, bakareba impamvu y'uburwayi bwe.

Mu karere ka Musanze amashuri yigisha abanyeshuri gutegura ibiryo byo kugaburira abantu naho arahari. Aya ni amashuri twita TVET na hotereri. Aya abamo hotereri ndetse na karinari atsi. Aho ngaho abanyeshuri biga uburyo bw'imitegurire y'ibiribwa.

No mu mashuri ikoranabuhanga rirakataje, cyane cyane mu mashuri aboneka mu Ntara y'Amajyaruguru. Aho umunyeshuri yicara imbere ya kompiyuta ye igisubizo akakibonamo. Akagenda asoma, agenda asubiza, asubiza, asubiza.

Mu buryo bw'imyidagaduro ntitwabura kuvugaho uburyo bwo kuririmba, kuririmba no gucuranga birajyana, aha abaririmba baba bafite n'ibikoresho bicuranga, abaririmba bakoresha amajwi n'abacuranzi bakoresha gitari, inanga n'ibindi bikoresho by'umuziki.

Umwuga w'ubudozi ni umwuga witabirwa n'abantu benshi b'ingeri zose, ino aha mu Karere ka Musanze abadamu na bo bitabiriye gukora ubudozi barabyiga, ndetse hari bamwe bafashwa bakabona ibikoresho by'imashini iyo barangije kwiga ubudozi.

Mu buryo bwo guteza imyuga imbere, hagiye hashyirwaho amashuri y'imyuga. Muri iyo myuga twavuga, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa, usanga bibanda ku mwuga w'ubudozi, umwuga w'ubudozi, ni umwuga uteza imbere abawukora, umwuga w'ubudozi buri mu myuga iboneka cyane cyane mu karere ka Musanze.

Imyubakire igezweho iteganya aho abantu baruhukira, bityo nko mu gipangu hagaterwamo ibiti umuntu yakwicara munsi y'ibyo biti, akabona igicucu n'amahumbezi ndetse kubera umuryango uba ufite abana, bakabateganyiriza n'aho abana bakinira, aribyo dukunze kwita imyicundero.